Ni akazu k'umuhondo, karimo umwajenti wa MTN, aho ari kumwe n'umukiriya uje kubitsa amafaranga, ari kumubwira nimero amwohererezaho amafaranga.

Umwagenti wa eyateri tigo ari gufasha umukiriya waje amugana amwereka uko yagura pake yo guhamagara y'ukwezi kose kugira ngo age aganira n'inshuti ze n'abavandimwe.

Umwajete wa MTN uri gutanga amanite, anabikururira abakiriya, anabaha amayinite yo guhamagara ndetse na pake za interinete, bari kugura amayinite kugira ngo babone uko bavugana n'imiryango yabo.

Muri gahunda yo kugira telefone zigezweho kuri buri muturage ni ubukangurambaga bwakozwe na eyateli itanga telefone za make make, zitarengeje ibihumbi makumyabiri baje ku kuzamamariza mu baturage.

Inyubako nziza, ifite urubaraza rw'umweru, ikoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye nka telefone n'ibindi, hari n'akazu abakiriya ba banki popilere y'abaturage, bafatiramo amafaranga yabo, bakoresheje ikarita ya ATM.

Ni akazu ka MTN kicayemo umwajenti wa MTN, ategereje abakiliya ngo abafashe kubitsa no kubikura amafaranga yabo.

Ni akazu gakoreramo umu ajenti wa MTN n'akandi gakoreramo umu ajenti wa Eyateri Tigo berekana serivise zabo zinoze batanga nka MTN aho bohereza amafaranga ku mirongo yose.

Inyubako ndende igeretse kabiri, hafi y'aho hari umwajenti wa MTN uri mu mutaka wicaye, uri kubikira akanabikuririra abakiriya baje bamugana, haparitse n'imodoka itukura yo mu bwoko bwa Toyota.

Imbaga y'abaturage benshi biganjemo ab'igitsina gore bambaye imyenda y'umuhondo, ubururu n'umutuku n'umuyobozi uri kubereka uko bakoresha rondereza hirindwa gukoresha inkwi zihumanya ikirere.

Ni imurikagurisha ryabaye umuntu wambaye umwenda w'umweru, wereka abagabo harimo uwambaye ikote n'agapira k'umweru n'abandi bambaye imyenda y'umweru, ari kubereka ibicuruzwa by'ubugeni byo gutaka, byiganjemo amabara atukura, ubururu n'umweru.

Ni inzu nini cyane irimo imifuka myinshi nk'umusaruro abaturage baba bagezeho nyuma yo guhinga, bakeza baza guhunika muri iyi nzu y'ubuhunikiro.

Ni imodoka ya emutiyene yo mu bwoko bwa toyota iparitse hasi ahantu hari amapave, iri gukangurira abakiriya bayo ko bashobora kwishyura bakoresheje uburyo bwa momo peyi badakaswe amafaranga na make.

Ni akabari karimo intebe zicarwaho n'abakiriya. Hari firigo irimo ibinyobwa bitandukanye, byaba ibisembuye n'ibidasembuye nka kokakora. Hejuru ya firigo hateretse televiziyo. Ibinyobwa birimo ni turubo na henikeni.

Ni akabari gahagazemo umukobwa ugakoramo uri gusekera neza abaza bamugana, afite ibinyobwa byiganjemo amarikeri, muri firigo harimo ibinyobwa bitandukanye nka sikoro na mitsingi.

Ni agace kateye imbere cyane aho gafite inyubako za etaje n'amabare akomeye acururizwamo ibyo kunywa bitandukanye nka pirimusi na sikoro za buralirwa.

Akabari karimo ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha, byiganjemo amacupa ya rikeri afite ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku.

Ni iduka rinini cyane ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye bikenerwa muzima bwa buri munsi, harimo matola, imikeka, imyenda yo kwambara yaba iy'abagabo n'abagore.

Ni agace kateye imbere gakorerwamo ubucuruzi butandukanye, yaba amabotike, aho basohorera impapuro, n'ibindi bitandukanye. Hanze hateretse gaze zifashishwa mu guteka.

Ni agace kateye imbere gafite umuriro w'amashanyarazi n'umuhanda ukomeye w'amabuye, habera ubucuruzi na serivise nk'izo gutwara abantu n'ibintu n'abajenti bakorera MTN, babitsa, bakabigura, bakanohereza amafaranga.

Igikoresho cy'ubugeni kibajwe mu biti gisize irangi ritukura ni ameza yo kuriraho ahagaze mu nzu irimo irangi ry'umweru na sima.

Ni urujya n'uruza rw'abantu bari wmu isoko, bari guhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imbuto ziganjemo: imineke, avoka, imyembe, amacunga n'ibindi.

Ni muri butike iriho umunzani, indobo imwo amandazi, amagi, shikarete, bombo intoryi, inyanya, karoti n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Iri ni iduka ririmo umumama wambaye imyenda y'umukara na furari y'umukara mu ijosi acuruza amavuta yo kwisiga ahenze harimo nka moviti n'andi y'ubwoko bugiye butandukanye.

Umubyeyi uhagaze aho acururiza imyenda yambaye itaburiya n'umupira w'ubururu n'ikote ry'umukara.

Ni muri boutique, aho umubyeyi yicaye ategereje abakiriya. Afite ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo injanga, amavuta yo guteka, akawunga, umuceri, n'ifu y'ubunyobwa.

Ni abayoboke b'idini rya gatulika aho misa irangiye bakaba bari hanze buri wese agiye gutaha mu rugo rwe, undi nawe we ataha mu rugo rwe, bari gusuhuzanya bifurizanya umunsi mwiza.

Ni kiriziya nini iriho amadirishya n'imiryango ikomeye iriho n'umusaraba hejuru cyane ni iya kera bigaragara ko yubatswe ku bw'abamisiyoneri.

Ni mu rusengero ahateguye neza cyane kuri aritari, aho basuwe n'umunyamahanga afite umusemuzi uri gusemurira abaje gusenga ibyo umunyamahanga avuga.

Ni abagabo benshi bambaye amakote yiganjemo ay'ubururu n'umukara, baje mu nama bafite amakaramu n'amakayi bandikamo ibyo bari bwigire muri iyo nama.

Aha ni kuri Aritali umugabo ari gutanga amashimwe ku Mana, ni mu gihe cya Corona kuko yambaye agapfukamunwa gatukura na mugenzi we wambaye ikote ry'ubururu yambaye agapfukamunwa k'umweru, bari kuri Alitari bari gushima Imana batanga ishimwe ryabo.

Iyi ni inyubako nziza yakira ba mukerarugendo n'abandi bantu bafite ibyo bagiye kuganiraho: nk'inama ubukwe n'ibindi, ni hoteli iri ku kiyaga.

Hoteli nziza cyane ingeretse rimwe, ifite ubusitani bw'indabyo nziza cyane n'imikindo ,hari n'umuhanda w'amapave werekerayo byoroshye kuhagera.

Hoteri nziza cyane igeretse rimwe, ifite ubusitani bw'indabyo nziza cyane zitohagiye, agataka kokugamamo izuba, n'intebe nziza zo kwicaramo hafi ya pisine.

Ni ubusitani bwiza cyane bwa hoteri igeretse rimwe yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, hafi yaho ni umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane hakurura abayigana.

Ni inyubako nziza ya hoteri, aho igeretse kabiri, ifite ubusitani bwiza bwa paspalume y'icyatsi kibisi n'indabo ndende, ziganjemo amabara atukura, hari n'imikindo, hakurura ba mukerarugendo.

Hano ni mu cyumba cya hoteri, kirimo igitanda, imisego, amatara ndetse n'indorerwamo n'ameza ateguye neza ariho indabo.

Ni mu nyubako nziza cyane ya hoteri, ifite amarangi yumweru, n'intebe z'imisego zikomeye cyane, hari na kizimyamwoto yazimya umuriro igihe haba hafashwe n'inkongi.

Igitanda kiza cyane gishashe neza. Hafi yacyo hari ibyangombwa byose bikenerwa n'umuntu uje muri iki cyumba kurara muri hoteri. Hari intebe, ameza, aho kongera, isume n'ibindi byose umuntu akenera.

Inyubako hanze haparitse amamodoka atatu, abiri ni Amatoyota yo mu bwoko bw'umweru indi ni Rava y'umukara hari n'umugabo uri kwerekeza kuri iyo nyubako.

I hoteli nziza ya etaje, ifite amabara yiganjemo ay'umuhondo n'ubururu, hari jaride nziza cyane yakurura ba mukerarugendo n'abakiriya benshi.

Ni icyumba cya hoteri kirimo ibikoresho bitandukanye umukiriya akenera, harimo ubwiherero na robine yo gukaraba igihe urangije mu bwiherero kugira ngo wirinde indwara z'umwanda.

Ni ubusitani bwiza burimo indabo ziganjemo icyatsi kibisi n'indabo zitukura, hari na pisine ndetse n'intebe abakerarugendo n'abakiriya ba hoteri bicaramo.

Ni agapapuro kariho urutonde rw'ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa kazwi nka menu gahabwa umukiriya muri hoteri cyangwa moteri kugira ngo ahitemo ibyo bamuzanira.

Ni inyubako nziza cyane iteye amabengeza ifite inzugi zikomeye za tilipulegisi, hari n'amatara agezweho yaka cyane ndetse na kizimyamwoto yifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro.

Ni hoteri nziza cyane, igeretse rimwe, hafi yaho hari ubusitani buteyemo indabyo nziza, hari na parikingi y'imodoka, aho abaje kwiyakira baparika ibinyabiziga byabo.

Mu cyumba cya hoteli giteguye neza cyane harimo igitanda kinini kiriho matola nini n'imisego myiza, hari ibikoresho byose umuntu uje muri hoteli akenera nk'akabati n'ameza.

Icyumba cyiza cyane kirimo igitanda n'imisego iriho amashuka y'umweru ndetse n'indorerwamo hafi yacyo.

Ni inyubako ya hoteri nziza cyane, ifite ibirahuri byiza n'amatara meza, aho mu cyumba cya hoteri habereyemo inama, iri kwiga ku ngingo zitandukanye.

Ni imifuka ibiri, abagabo babiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, hari amagare yazanye imyaka baje gupimisha ngo barebe umusaruro.

Imifuka ibiri y'ubururu iteretse irimo umuceri n'amironko irimo umuceri baha umuntu uje kuyigura n'amavuta y'ubuto ateretse ku ruhande mu ducupa dutandukanye.

Umuturage wajyanye umusaruro ku isoko, aho akora ubuhinzi, akaba yejeje imboga ari zo amashu, yajyanye ku isoko ngo abone amafaranga, agure ibyo akeneye n'iterambere ry'umuryango muri rusange.

Ni ibikoresho bikoreshwa mu rugo, byiganjemo iby'amabara y'ubururu, atukura, n'umukara. Hari amasahani, udupaniye, amasafuriya n'amabase.

Ni mu isoko, aho uwo mubyeyi afite agafuka n'agaswari mu ntoki, yambaye n'ingofero itukura, yaje kwihahira, hari imyenda n'umucuruzi wicaye hasi, ibikapu n'amapantaro n'ibitambaro byo kwambara mu mutwe.

Ku isoko aho urugendo n'uruza rw'abaturage bajya kwigurira, ibyo bakeneye, hari umubyeyi ufite imyeyomu ntoki n'umutaka wa MTN, ukoreramo umwajenti wa MTN, atanga serivisi zo kubitsa no kubikura amafaranga.

Mu isoko aho umucuruzi yicaye hafi y'ibyo acuruza hari ibicuruzwa bitandukanye, haba ibyuma, amapata yo ku nzugi, ingufuri, imidaho, utuyugiro, amasahani, isifuriya n'amasahani y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ni ku isoko ahahuriye imbaga y'abaturage batandukanye, aho umucuruzi ari guciririkanya nabo ku giciro cyimyenda, hafi yaho hapatse umumotari utegereje umugenzi.

Aha ni mu isoko hahagaze abantu ubona ko barimo bagura, igice kiri kugaragara cyane n'icyo hasi ni inkweto ziganje amabara y'umuhondo, ubururu n'umukara, hari umucuruzi ucuruza udukoresho tugiye dutandukanye dukenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo amavuta yo mu mutwe yo kwisiga ya jeri, harimo utuyungiro umuntu akenera ayungurura nk'icyayi ndetse hari na korogati n'ibyirori.

Ni ku isoko ahakorerwa ubucuruzi butandukanye bwiganjemo ubw'inkweto zirasa n'ubururu umutuku, umukara n'icyatsi kibisi.

Iyi n'isantere y'ubucuruzi iriho abantu benshi ubona ko ari urujya n'uruza baje kwihahira, haragaragara matora, n'inzu nziza za konoshi ubona ko ari isantere iteye imbere hari umuriro w'amashanyarazi, abandi urabona ko bafite amagare bapakiye matora, hari imifuka myinshi itandukanye bigaragara ko yaba irimo ibicuruzwa abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Ni mumuhanda wa kaburimbo ahari umunyegare uvuye kuvoma, afite amajerekani abiri ku igare, n'imodoka y'umukara iri kuzamuka, imbere yayo hari umunyegare uhetse umugenzi, n'imirongo yo muri kaburimbo yerekana ko hambukira abanyamaguru.

Umumotari wambaye kasike y'icyatsi kibisi itariho ikirahure, ahagaze hafi y'ibiro by'umurenge, hari n'ubusitani bwiza bw'indabo z'icyatsi kibisi.

Umumotari utwaye moto yo mu bwoko bwa yamaha, akikiye igikapu. Yambaye na kasike y'umweru n'ubururu. Mu muhanda wa kaburimbo hafi yaho, hari inyubako nziza z'umweru na jaride.

Ni agace kateye imbere cyane ahari inyubakozu'ubucuruzi n'amatara yo kumuhanda, n'umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi.

Ni aho abamotari baparika aho bamwe bafite abagenzi bagiye gutwara, abandi bari guhamagarwa n'abagenzi ku matelefone ngo baze kubatwara.

Ni ibice by'imirambi itariho imisozi ihanamye cyane, hateye ibiti hanyura n'umuriro w'amashanyarazi, n'umuhanda wa kaburimbo hateye imbere, n'abamotari batwara abagenzi, umwe mu bamotari uri mu muhanda nta mugenzi afite.

Mu muhanda wa kaburimbo aho umumotari wambaye kasike itukura n'umugenzi wambaye kasike itukura ukikiye agatwaro gatoya n'abagenzi barimo bigendera n'amaguru n'umunyegare uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Umumotari uhagaze mu muhanda ari gutegereza umugenzi usa nk'uwari ugiye guhaha, hirya ye imodoka ya sikoro ndetse na contineri n'inzu ya konoshi, n'aho abagenzi bicara bategereje imodoka zibatwara mu kazu k'amabati kiganjemo amabara y'umweru n'ay'ubururu.

Uyu ni umumotari uri mu muhanda ari gushaka umugenzi yatwara, arenze umwanya wahariwe abanyamaguru, ari hafi y'inyubako za leta iparitseho amamodoka n'amamoto.

Iri ni ishyirahamwe ry'abanyonzi batwara abagenzi bambaye amajire y'icyatsi kibisi n'abambaye amataburiye y'ubururu aho bategereje abagenzi ngo babone uko biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo ufite ubusitani ku ruhande rwa pasiparume n'izindi ndabo z'amoko menshi harimo umumotari utwaye umugenzi.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo yambaye kasike itukura, akikiye n'indi kasike kuri moto, nta mugenzi afite agiye kumushaka ngo akore umwuga we w'ubumotari yiteza imbere.

Umumotari utwaye umugenzi ku muvuduko wagenwe na polisi y'u Rwanda, umugenzi afite anvelope mu ntoki, hari n'ipoto y'amashanyarazi ijyana umuriro mu baturage.